Abagabo batanu bose bahetse amapombo bari gutera umuti. Bamwe bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye ifite ibara ry'umutuku; ndetse iki gihingwa bari gutera umuti gihinze ku buso bunini.

Ahantu bakorera ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo utujerekani tugiye turutanaho bitewe n'ibirimo ndetse dufite amabara anyuranye, hari ay'umweru hamwe n'akandi gafite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzwe ku buso bunini. Harimo igihingwa cy'ibigori, icy'imyumbati kandi hari ahagiye harunze ifumbire bazagenda banyanyagiza muri uyu murima kugira ngo ibi bigori n'imyumbati byere neza.

Akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse ni utudebe duto ducururizwamo ibijyanye n'imboga, muri byo harimo karoti, beterave, amashu n'ibindi.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse isize amarange atandukanye kandi yometseho ibyapa byinshi binyuranye kubera ko ifite imiryango kandi buri muryango ukoreramo sosiyete yawukodesheje.

Abantu barimo umugabo uhetse ku igare imifuka myinshi. Ari kuricunga kandi inyuma ye hari undi uri kumusunikira ndetse ahantu bari kugenda hakikijwe n'ibigori hamwe n'ibyatsi.

Umugabo wambaye itaburiya ndetse bigaragara nk'aho acuruza imiti igiye itandukanye, yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara kandi mu biganza bye byombi afashemo udukarito ari kwerekana ibijyanye n'ibicuruzwa acuruza.

Imirima igiye itandukanye, harimo umuringoti uhinzwe ku buryo bwa kijyambere bugezweho kandi hirya y'uwo muringoti, hari ibindi bimera n'indi myaka igiye itandukanye.

Umugabo usutamye ndetse ari kureba uko umusaruro we w'inyanya wifashe, yahinze neza ku buryo bugezweho bwa kijyambere ndetse ibi bizamufasha mu kubona amafaranga akuye mu nyanya.

Umurima w'ibigori uhinze ku buso bunini cyane, ni ibigori byeze neza kandi byahinzwe ku buryo bugezweho bwa kijyambere ndetse Leta y'u Rwanda iha abantu ifumbire yongera umusaruro.

Umurima uri mu gishanga uteyemo ibisheke kandi ibi bisheke biba bigomba kwitonderwa cyane kubera ko igihe umuntu ari kubitema, biba bishobora kumukeba kubera ko biba bifite amahwa.

Abagabo n'abagore bari guhumbukura ahantu bahumbitse ibiti bivangwa n'imyaka ndetse umwe muri bo, yambaye itaburiya afite ibara ry'icyatsi ndetse na bote kandi iruhande rwe hari ibase ifite ibara ry'ubururu. Inyuma y'abo bantu hari ibiti.

Ahantu hari ibyatsi bigiye bitandukanye, ndetse aho hantu hari igiti cy'icunga gifite amababi y'icyatsi, gusa nta mbuto zirazaho, hafi yaho cyegeranye n'insina iriho amakoma amwe yarumye, andi aracyari mabisi.

Zimwe mu ndwara zikunda gufata inkoko harimo n'indwara bita umusinziro. Iyo inkoko yayirwaye ihora isinzira kandi inshuro nyinshi biyiviramo no gupfa.

Bimwe mu bituma inka zidatanga umusaruro nk'uko wagenwe harimo uburwayi, niyo mpamvu aborozi b'inka baba bagomba kuzikurikirana umunsi ku wundi, kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwazo buhagaze.

Abahinzi bari mu murima, bari kubagarira imyumbati bateye, ndetse uburyo bayiteye, hagati y'umwumbati n'uw'undi harimo umwanya, ibi bizatuma yera neza kandi itange umusaruro uhagije.

Umugabo wahetse igitebo ku igare kandi hirya ye hari abahinzi bari mu murima barimo guhinga. Hakurya y'uwo murima hari indi itandukanye iteyeho ibimera bigiye binyuranye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu muhanda w'igitaka barimo barawukoramo umuganda kugira ngo bajye bahanyura hasa neza, bakikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye harimo urutoki, urubingo, ibigori ndetse n'ibindi.

Umugore uri kugenda mu murima uteyemo insina kandi yambaye igitenge kiri mu mabara atandukanye ndetse mu mutwe yatezemo agatambaro, hirya ye hari ibiti hamwe n'urubingo.

Abantu bari mu murima bari guhinga, harimo abagore babiri bateruye abana ndetse harimo umugabo wambaye isengeri y'umweru hamwe n'ingofero y'umutuku, ruguru yabo hari indi mirima ndetse bakikijwe n'ibiti.

Ahantu hari abantu biganjemo abagore n'abagabo ndetse ni mu gishanga, bari mu migende ihinzemo ibintu bigiye bitandukanye, hirya yabo hari umugore wunamye ari gutera intabire.

Umuntu uri mu murima ndetse hirya ye hari ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati y'ubururu, hirya yacyo gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugore wunamye ari gutera ibitsinsi by'insina kugira ngo bizazamukeho izindi nsina zigiye zitandukanye kandi yambaye agatambaro mu mutwe karimo amabara y'ubururu, umweru ndetse hirya y'uwo murima arimo hari indi myaka.

Imiringoti minini cyane ndetse ahagana hepfo igiye iteyeho urubingo, harimo umwe urimo umuntu urikuwuhingamo ndetse hakurya yayo hari ishyamba.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, kandi yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote, arunamye ari gukura amateke kugirango ayajyane mugo bayateke, hirya ye hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umurima uhinze ku buso bunini cyane kandi uhinzemo igihingwa cy'ibijumba, iyi migozi irera neza kandi igatanga umusaruro ku muhinzi wayihinze, bityo akabona nuko asagurira amasoko.

Mu isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu, bamwe baje kugurisha, abandi baje kugura ibyo bakeneye kandi hari imifuka ipakiyemo ibiribwa byaje kugurishwa kandi hirya hari aho bacururiza ibitoki.

Igihingwa cy'umuceri gihinze ku buso bunini, kigeze igihe cyo gusarurwa kubera ko cyareze kandi gifasha abantu bibumbiye mu makoperative mu kwiteza imbere kubera ko baba barashyize hamwe bagahuza imbaraga.

Inyanya nziza, zahishije ziri mu gitebo. Hari abantu bari kuzigurisha ndetse hari n'abaje kuzigura ariko uyu musaruro kubera ko ari mwiza ntago uri bubure abawugura.

Udukarito turi ku murongo, turimo avoka zeze neza, kandi ubona zinogeye ijisho, aho hantu n'ahatunganyirizwa ibikomoka ku buhinzi bigendanye n'imbuto.

Icyumba cy'ububiko, ahabikwa ibintu bigiye bitandukanye. Hari imifuka igiye igerekeranyije ndetse itondetse ku murongo. Ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi kandi isa n'irimo ibintu bibikitse neza.

Ahantu hari ibyatsi ndetse hafi yabyo hari n'ahateye imigwegwe, hirya yiyo migwegwe hari inturusu kandi nazo zigiye zivangavanzemo ibindi biti.

Ahantu hagiye hari ibiti bigiye bitandukanye, bimwe muri byo ni amashyamba kandi harimo inturusu zagiye zihunguka amababi yumye ndetse hari n'ibyatsi kandi hirya y'iryo shyamba hari umurima urimo ibihingwa bitandukanye, uteyeho n'urubingo.

Ahantu hari inzu isize umucanga, ndetse isakaje amategura, ifite urugo rwubakishije imiyenzi, inyuma yarwo hari insina, kandi ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ishyamba rigomba kubungwabungwa kubera ko na ryo riri mu bidukikije kandi ridufasha mu kuyungurura umwuka mwiza abantu duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abagabo bari mu ishyamba, aho bigaragara ko ari abakerarugendo, baje gusura Igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo barebe ibyiza bitatse u Rwanda. Aha hantu hagaragara nkaho ari mu misozi.

Ibiti bivangwa n'imyaka bizwi ku izina rya gereveriya, biri hagati mu murima w'ibigori uhinze ku buso bunini cyane kandi hepfo y'uwo murima hateyemo insina kandi hakurya hari ishyamba.

Ni mu rugo rw'umuturage ahari imboga yateye mu murima w'igikoni uri iruhande rw'inzu ye ndetse hari ahubakishije amatafari ahiye na fondasiyo yubakishije amabuye.

Ahantu hateye ibiti bikiri bito ndetse bivanze n'ibiti byakuze birebire kandi aho hantu hari ibyatsi bitoshye ndetse bishobora kwahirwa bigashyirwa amatungo akabirya.

Ahantu hateye ibiti bigiye bitandukanye kandi bino biti bikoreshwa mu nyungu zifitiye akamaro Igihugu bitewe n'uko bitemwa bikabazwa hakavamo imbaho zikoreshwa ibintu bigiye bitandukanye.

Ishyamba ridufasha mu kuyungurura umwuka mwiza duhumeka, bityo rero niyo mpamvu leta y'u Rwanda isaba abantu kubungabunga ibiti ndetse no kubifata neza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari indabo z'amoko agiye atandukanye kandi indabo ni nziza cyane kubera ko usibye kuba zihumura zinatuma ahantu hagaragara neza ndetse hakanasa neza ukabona ko hari isuku.

Umugabo uri mu murima we w'inyanya yahinze ndetse ari kuzisarura, zimwe ziri mu gatebo ziri hafi kuzura, izindi azifashe mu kiganza, uwo mugabo yambaye isengeri y'umuhondo kandi yishimiye umusaruro we.

Umugore n'umugabo bari guseka bishimye, bari kubaka akarima k'igikoni ndetse kazabafasha mu gukumira ibijyanye n'imirire mibi mu rugo rwabo, hirya yabo hari ibindi bihingwa bitandukanye harimo urubingo ndetse n'insina.

Umurima uhinzwe ku buso bunini ndetse uhinzwemo ibikonfitoro, bireze kandi umuhinzi wabyo azagira amahirwe yo kugira umusaruro kubera ko yahinze mu buryo bugezweho.

Ahantu hahinze umurima w'igikoni, bafashe intsina barazizirikanya ndetse bashyiramo itaka bateramo imboga. Hirya y'ako karima k'igikoni hari ibyatsi ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi.

Mu isoko ahantu haba hari urujya n'uruza rw'abantu bamwe baje kugura abandi baje kugurisha ndetse hari ahari ibitunguru by'amoko atandukanye byeze neza kandi umucuruzi aba agomba kuba afite umunzani kugira ngo apimire ubikeneye.

Ibikomfitoro ni bimwe mu bitugirira akamaro kanini kubera ko iyo umuntu yarwaye akajya kwa muganga bagasanga nta maraso ahagije afite mu mubiri, bamutegeka kujya arya ibikomfitoro ndetse n'izindi mbuto.

Umugore wunamye arimo arasoroma imboga mu murima yahinzemo ibihingwa bitandukanye kugira ngo ajye kuzitekera abagize umuryango we. Hirya y'uwo murima arimo hari undi urimo ibyatsi kandi hari n'ahantu hari urutoki.

Ahacururizwa imbuto zigiye zitandukanye kandi aho hantu hubakishije ibiti, harimo inanasi, ipapayi zirambitse ku mifuka ndetse hari n'aharunze watermelon.

Ahantu hari isoko rito, ndetse muri iryo soko hari umuntu uri gucuruza wafunze imifungo iy'intoryi, karoti, ndetse na pavuro, kugira ngo abaza kuyigura biborohere gucaguramo ibyo bashaka.

Inzu y'ubucuruzi hacururizwa imbuto z'amoko agiye atandukanye. Hari umufuka w'umweru urimo ibikofitoro ndetse hirya yabyo hari amacunga hamwe n'imyembe yeze neza.

Imboga ni zimwe mu zo Leta igira inama ndetse inigisha ikangurira abantu kuzirya, izi dodo zidufasha mu kureba neza, tugashishoza kandi tukagira ubuzima buzira umuze.

Ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi, kandi iruhande rwayo hari inzu ifite urugo rwubakishije amabuye ndetse rusize n'amarangi agiye atandukanye harimo irisa n'ivu ndetse n'icyatsi.

Ahantu hari abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara anyuranye, harimo umuhungu ufashe impapuro mu ntoki ndetse n'urugemwe afashe mu kuboko kw'iburyo. Hirya yabo hari amazu yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje amabati.

Ahantu mu murima hateyemo ibintu bigiye bitandukanye, hari ibiti birambitse hasi bakuye by'imyumbati maze ivuyeho bayijyana kuyiteka ndetse hari n'igiti cy'avoka kitarakura neza kikiri gito.

Kwa muganga iyo warwaye impatwe, bakubwira ko ugomba kurya ipapayi inshuro nyinshi kugira ngo, igufashe koroshya mu nda, bityo ubashe gukira uburwayi bwawe ndetse ugire ubuzima buzima.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya orange ndetse yambaye n'ingofero mu mutwe y'umukara, ari hagati y'ahantu bahinze ingemwe kandi ari kureba ko zigeze igihe cyo kugemurwa kugira ngo bajye kuzitera mu murima wabugenewe.

Abagabo babiri, umwe yambaye agapira karimo ibara ry'umweru ndetse undi yambaye ak'umukara, kandi uwambaye ak'umukara afite isaha ku kuboko kw'ibumoso. Bari mu murima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ndetse bimwe muri byo ni imboga. Inyuma yabo hari ishyamba.

Mu nzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo igitebo kirimo ibizwi nk'imboga zitwa burokori, kandi icyo gitebo giteretse hejuru y'ibase ifite ibara ry'ubururu.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye, muri byo hari ibyo twita imboga, harimo imiteja, karoti kandi iyo miteja iri mu ibasi ifite ibara ry'icyatsi.

Umurima bahinze ku buryo bwa boroke, hamwe hateyemo karoti ndetse hari n'ahateyemo uruboga rwiza rwakuze neza bakunda kwita dodo, urwo ruboga rutera kugira ubuzima bwiza.

Umurima urimo igihingwa cya pavuro ndetse izo papuro zihinze ku buso bunini kandi zihinzwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, kubera ko hagati ya pavuro n'indi hagiye harimo intera.

Umugore uri guseka, arunamye ari kuvomerera igihingwa cye cy'ibishyimbo, yahinze ku buryo bugezweho bwa kijyambere, ndetse hirya ye hari ibiti n'ibyatsi.

Abagabo babiri harimo ufashe igihombo, ari kuvomera umurima yahinzemo intoryi, ndetse inyuma ye hari injerekani, kandi hirya ye hari undi uri kumufasha kuvomera, wambaye agapira k'umweru, n'ipantaro yahennye ifite ibara ry'umukara.

Umugabo ufashe igihombo gifite ibara ry'ubururu, ari kuvomera ibihingwa bye by'ibigori. Hirya ye hari umwana uhagaze, wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Umugabo wambaye ipantaro ya kake yahinnye, ndetse afashe rozwari ari kuvomera ibihingwa bateye, inyuma ye hari abagore n'abagabo, bari kubagarira ibindi.

Ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse hirya y'ibyo byatsi hari amazu atuwemo n'abantu, akikijwe n'ibiti kandi hari n'umuriro w'amashanyarazi kubera amapoto ahari.

Abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, bari mu murima uhinze ku buso bunini. Bamwe bari guhinga, abandi bari inyuma batera kugira ngo bizere vuba kandi byerererere rimwe. Hirya yabo, hari ishyamba.

Ahantu hari Umudugudu utuwemo n'abantu bagiye batandukanye ndetse hari amazu asakaje amabati yashaje kandi hakurya yaho hari umusozi uteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ibyatsi bitoshye ndetse hari kuva izuba kandi hari igicucucucu, hakurya hari umusozi uriho amashyamba kandi hari n'igice kiriho umudugudu wubatseho inzu zituweho n'abantu.

Imirima igiye itandukanye, imwe iri ahantu hagana ku musozi ndetse indi iri mu gishanga, hari umuntu wunamye ari guhinga mu gishanga, inyuma ye hahagaze umwana ari kumureba.

Igishanga gihinze ku buryo bugezweho ndetse gikikijwe n'imisozi iriho amashyamba, kandi icyo gishanga kirimo amazi atemba n'abantu bari kugendamo.

Imirima igiye itandukanye ndetse irimo ibihingwa bigiye binyuranye. Muri ibyo bihingwa harimo ibigori, ibishyimbo, ndetse hari n'ahateye ishyamba rikiri rito.

Ahantu mu gishanga hari amazi atemba ndetse hagiye harimo imirima igiye ihinze ku buryo bugiye butandukanye kandi irimo n'ibihingwa binyuranye ndetse hakurya y'icyo gishanga, hari amazu atuwemo n'abantu.

Ihene iri mu mabara atandukanye harimo iry'umukara ndetse n'iry'umweru. Iriziritse ku rwego rukozwe mu biti kandi hafi y'urwo rwego, hagiye hari ibindi biti biharambitse.

Ikiraro kirimo inka ifite amabara agiye atandukanye ndetse icyo kiraro cyubakishije ibiti byumye kandi imbere y'iyo nka hari manjwari irimo ubwatsi iri kurisha.

Umugabo wambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu kandi agapira yambariyemo mu imbere gafite ibara ry'umuhondo ku ikora. Inyuma ye hari inkoko nyinshi yoroye ndetse zizamufasha mu kwiteza imbere.

Inka iri mu kiraro, imbere yayo hari manjwari irimo ubwatsi iri kurisha kandi icyo kiraro cyubakishije ibiti byumye, imbere y'iyo nka hari abantu bahahagaze bari kureba niba imikurire yayo ishimishije.

Inka nziza iri mu kiraro bayubakiye cyubakishije ibiti kandi gisakaje amabati. Hirya yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara ndetse kiriho n'amategura kandi hari umuntu wegereye icyo kiraro yashinzeho inkokora.

Amwe mu matungo magufi igihugu cy'u Rwanda gishishikariza abantu gutunga n'ingurube zirimo kubera ko zitanga umusaruro uhagije ndetse mu gihe gito, bimwe mu byo dukura ku ngurube harimo inyama, impu n'ibindi.

Ihene ebyiri ziri mu kiraro cyazo, imwe bayiziritse ikiziriko mu ijosi ndetse indi ntacyo ifite kandi mu gihe umuntu yoroye ihene bimufasha mu kwiteza imbere kubera ko zimuha amafaranga.

Abana bambaye imyenda itandukanye ndetse baragiye intama ziri kuririsha ibyatsi ku gasozi. Hirya yabo hari umuhanda w'igitaka kandi hakurya y'uwo muhanda, hari inzu isakaje amategura.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'umukara kandi arasutamye, ari kureba uko inkoko ze ziri kurya ibyo kurya azizaniye, inyuma ye hari ahantu hari amategura arunze hasi ndetse n'igikuta gihari giteye icyondo.

Abantu bari ahantu hari inka ndetse harimo aborozi bazo hamwe n'abaveterineri, baje kuzikingira uburwayi zifite kugira ngo zizabashe gutanga umukamo.

Inka nziza iri mu kiraro kandi ku gutwi kw'iburyo ifiteho ihena ry'umuhondo. Icyo kiraro cyubakishije ibiti kandi hari ibikuta bivanzemo n'icyondo.

Ubworozi bw'inka bugira umusaruro cyane ku mworozi ndetse no ku gihugu muri rusange, kubera ko inka itanga ibikomoka ku matungo harimo amata, uruhu, inyama n'ibindi.

Inkoko zibarirwa mu matungo magufi ariko atanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, igihe umuntu yoroye inkoko rero aba agomba kuzitaho aziha ibyo kurya, ndetse akazikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo zimuhe umusaruro uhagije.

Inka y'inyana iziritse ku giti cyubakishije ikiraro. Iraryamye kandi ahantu iri, hari icyarire iryamyeho ndetse ifite amabara abiri.

Ihene iri ahantu mu byatsi ndetse bayiziritse ikiziriko mu ijosi, ifite amabara atandukanye ndetse hari ahantu umuveterineri yayivuye kubera ko yari yakomeretse.

Inka iri mu kiraro kirimo icyarire ndetse cyubakishije ibiti hamwe n'igikuta giteye icyondo kivanzemo n'ibiti byumye kandi iri tungo ridufasha mu gihe dushaka nko kubona amata n'ibindi.

Abantu bahuriye ahantu hamwe bazanye gukingiza inka zabo, barahagaze bategereje ko veterineri aza akazikingira kandi hirya yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Inka iri ahantu hari ibyatsi ndetse iziritse ikiziriko mu ijosi kandi ku gutwi kw'iburyo yambayeho iherena rifite ibara ry'umuhondo, hirya yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Inka isa neza iri mu kiraro cyubakishije ibiti kandi ku gutwi kwayo kw'ibumoso yambayeho iherena ndetse imbere yayo hari ubwatsi buri muri manjwari igiye kurisha.

Inka bagiye kuragira ahantu mu gishanga hari ibyatsi birebire kandi bitoshye, iri kurisha urubingo kandi iyo nka ku gutwi kwayo kw'ibumoso yambayeho iherena rifite ibara ry'umuhondo.

Ahatunganyirizwa ingemwe, aho igihe cyo kuzigemura iyo kigeze bazihakura bakazijyana mu murima bahinze ndetse ubu buryo buzifasha gukura neza zigatanga umusaruro.

Ahantu hagenewe guhingwa ingemwe kugira ngo zibashe gukura neza zigere igihe cyo kugemurwa maze bahinge umurima babe ari ho bajya kuzitera zitegeranye, hirya y'aho hari ibiti.

Igihingwa gisa neza cy'imyumbati gihinzwe ku buso bunini cyane, umuhinzi yakoresheje uburyo bugezweho ari gutera ibi biti by'imyumbati kugira ngo bizamuhe umusaruro uhagije.

Umurima wahinzwemo inyanya za kijyambere, zihinze ku buryo bwiza ndetse zizatanga n'umusaruro, zigeze igihe cyo gusoromwa kuko kireje maze uwazihinze azijyane ku isoko azigurishe bamuhe amafaranga.

Ahantu hahinze ubwoko butandukanye bw'imboga, bumwe muri bwo babwita epinari, izi mboga ni nziza cyane kubera ko iyo umuntu azivanze mu isombe, aba ariye indyo yuzuye yujuje ubuziranenge.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abicaye ndetse n'abunamye kandi bose bari gutunganya ahantu bagiye guhumbika ingemwe kugira ngo nizimara kwigira hejuru bazazigemure mu murima bazaba bahinze.

Buri muhinzi aba asabwa gusasira igihingwa cye, kugira ngo kizabashe kubika amazi igihe kirekire. Kubera ko iyo bakivomereye hari n'ahasasiye, bituma hatuma.

Ubuhinzi bw'urusenda bugira akamaro kubera ko iyo umuntu aruhinze abasha kubona amafaranga aturutse mu kurugurisha ndetse Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu byohereza urusenda ku mugabane w'Uburayi.

Abagabo batatu bafite inkoni bari gukubita inka ndetse izo nka ziri ahantu hazitijwe n'ibiti byumye, hirya no hino hakikijwe n'ibiti bikiri bibisi by'amoko atandukanye.

Inka baziritse ifashwe n'umugabo uyoroye wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, yahamagaye umuvuzi w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri kugira ngo ayivure ndetse uwo muvuzi w'amatungo yambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu.

Inka iri ahantu mu byatsi ndetse hari n'abantu bayifashe kugira ngo umuvuzi w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri ayitere urushinge kubera ko iyo inka irwaye uyoroye aramuhamagara akaza akayisuzuma ndetse hirya yabo hari umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye.

Inka iri mu kiraro, abagabo bayifashe kugira ngo, umuganga w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri, abone uko ayitera iherena ku gutwi. Kandi uwo muganga w'amatungo, yambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu.

Umuvuzi w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri, umugabo woroye inka yamuhamagaye kugira ngo aze ayisuzume arebe uburwayi ifite kubera ko yari imaze iminsi itameze neza none ari kuyitera urushinge uwo muveterineri.

Umugabo wambaye bote z'umweru n'igisurubeti gifite ibara ry'umukara, ashoreye inka mu muhanda w'igitaka kandi ruguru ye hari uruzitiro rw'imiyenzi ruzitiye ipironi rinyuraho imigozi itwara amashanyarazi hirya no hino.

Abagabo babiri harimo, uzwi nka muganga w'amatungo, ndetse ari guha inka umuti kugira ngo ayivure indwara irwaye. Kandi hirya yabo hari ikiraro iyo nka iraramo, ndetse n'insina ziri hirya y'icyo kiraro.

Umuganga w'amatungo waziritse ikiziriko mu ijosi ku nka kugira ngo abashe kubona uko ayivura. Yambaye bote z'umukara n'igisurubeti gifite ibara ry'ubururu kandi iruhande rwabo hari umwana w'umukobwa uri kureba uko ari kuvura iyo nka.

Umusore usutamye ahantu, imbere ye hari inkende ari kuzigaburira imineke ndetse aho hantu hari ibyatsi bitoshye kandi hirya y'uwo musore hari umuntu uri gucunga igare.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe mu kirere. Icyo kiraro kiri ahantu hari ishyamba ryinshi, ndetse hariho n'umugabo waje kureba ibyiza nyaburanga Igihugu cy'u Rwanda gifite.

Inyamaswa yitwa inkende iri ahantu mu muhanda w'igitaka ugiye urimo n'utubuye duto duto kandi hirya y'uwo muhanda hari ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse iyo nkende hari abaza kuyisura, bazwi ku izina rya mukerarugendo.